Abagabo babiri bari imbere y'ikamyo umwe yambaye ishati y'amakaro undi yambaye umupira w'umutuku urimo utubara tw'umweru, imbere y'iyo kamyo hari amagambo yandikishije umutuku hari n'ayandi yandikishije umukara.

Mu buzima bwa buri munsi dukenera amashanyarazi rero ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi rege, kidufasha gutunganya amashanyarazi ndetse akatugeraho byoroshye natwe tukabasha kuyakoresha, icyo kigo cy'igihugu gikorera ahantu hose nk' i Remera.

Ibikorwaremezo kubitunga ni byiza cyane nk'ibyapa biri mu muhanda biratuyobora ndetse n'imihanda ikoze neza nayo iradufasha kandi ibi byose tukabitunga tutabangamiye ibidukikije harimo nk'ibiti, amashyamba n'ibindi.